Ikimenyetso cy'umusaraba, imakasi, amaga, ibipfuko, imiti, ibinini byose ukaba ubisanga kwa muganga, bikaba byifashishwa mu gutabara ubuzima bw'abantu.

Polisi itwaye umuntu ku gatanda bita burankari mu ndimi z'amahanga, ikaba iri kumwihutana ku bitaro kugira ngo ahabwe ubufasha ubuzima bwe butahangirikira.

Ni mu cyumba gisa neza kwa muganga, hakaba harimo ibitanda biryamyeho abarwayi ndetse harimo n'abaganga bari kuba ubufasha kugira ngo barebe ko bakira.

Umuganga wambaye itaburiya iri mu ibara ry'umweru, akaba afashe agakoresho kabigenewe agashyira ku nda, ategaho ugutwi kugira ngo yumve uko umwana uri mu nda y'umubyeyi ameze.

Muganga uri kwerekera abandi ko bagomba gutanga ubutabazi bw'ibanze. Akaba ari kubererekera uburyo bukanda umutima bityo uwahwereye akabasha kuzanzamuka.

Abakozi b'umuryango witwa Croix rouge bahaye seritifika yo gushimira abaturage ku butabazi bw'ibanze baba barakoreye bagenzi babo, bityo bakaba baje kubashimira.

Icyumba cyiza gishashe neza, kikaba kiriho ibitanda by'icyuma, amadirishya yacyo n'ibirahure ibi bitanda bikaba byifashishwa no kwa muganga abarwayi babiryamaho.

Imbangukiragutabara ni kimwe mu bikoresho bifasha abantu benshi, ahangaha bakaba bari gushyiramo umurwayi kugira ngo agezwe kwa muganga ahabwe ubufasha bwihuse.

Abaturage bateruye umwana w'umusore, bakaba bamujyanye kwa muganga kugira ngo ahabwe ubufasha bwihuse kuko urabona ko arembye cyane uko bigaragara.

Abantu benshi bahuriye abantu, bakaba bambaye amajiri y'umutuku ariho ikimenyetso cy'umusaraba, bakaba ari abakozi b'umuryango witwa Croix rouge, wita ku mbabare ndetse n'ubuzima bw'abantu.

Umusore wambaye ijire y'Umuryango witwa Croix Rouge utabara ubuzima bwa benshi, ari muri sale yahuriyemo n'abandi bantu benshi bari kuganira ku ngingo y'ubuzima.

Imashini zishinzwe gutunganya umwuka uwo mwuka ukaba uhabwa abarwayi mu gihe uwabo washize bakunze kwita ogisijeni ukaba wifashishwa mu bitaro cyane cyane bikomeye.

Umuganga wambaye umwenda w'akazi akaba afite na baje mu ijosi ndetse n'igikoresho bifashisha bapima umutima, ari mu biro bye urabona ko yishimiye akazi akora.

Umugabo wambaye ijire y'Ikigo kita ku buzima ari cyo Croix Rouge, akaba aryamye ku gitanda ari gutanga amaraso igikorwa kiza cyane rwose cy'ubutabazi.

Imbangukiragutabara ifasha abantu benshi cyane cyane indembe kuko iyo umurwayi arembye zimujyana ku bitaro agahabwa ubufasha byihuse bityo ubuzima bwe ntibuge ahabi.

Abantu batandukanye harimo abazungu ndetse n'abirabura, mu icyumba barimo harimo mudasobwa, bari mu gikorwa cy'ubushakashatsi barebera hamwe uko bakora imiti itandukanye.

Imbangukiragutabara ni kimwe mu gikoresho cy'ibanze gitabara ubuzima bw'abantu benshi kuko iyo umurwayi arembye imwihutana ku bindi bitaro agahabwa ubufasha.

Ni kwa barasanasana iminsi ikicuma bakaba bari kwita ku mubyeyi urimo kubyara, urabona ko bari kumubaga kugira ngo bamukuremo umwana we maze abyare neza.

Urubyiruko rwinshi ndetse n'abakuze bahuriye hamwe barimo barakora imyitozo ngororamubiri kugira ngo birinde indwara zitandukanye ziterwa no kudakora siporo.

Iyo ugeze kwa muganga uhasanga indembe nyinshi ziba ziharwariye ugasanga kandi n'abandi bacitse nk'amaguru, abandi barahuye n'ihungabana, byinshi biba biri kwa muganga.

Abantu benshi bari muri sare nini hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore bakaba bahurijwe hamwe mu gikorwa cyo kwiga kuku bungabunga ubuzima ndetse no kubusigasira muri rusange.

Ni kwa muganga abaturage barimo barahabwa serivisi z'uburyo bagomba kwita ku buzima bwabo, babapima virusi itera Sida kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza.

Ni kwa muganga hari igitanda abarwayi baryamaho mu gihe bari kubasuzuma, hari ubukarabiro, hari intebe yo kwicaraho umuganga mu gihe aje gutanga ubufasha ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye.

Umugabo wambaye ishati iciyemo uturongo, akaba afashe n'indangururamajwi mu ntoki, arimo aratanga imbwirwaruhame, agira inama abantu uburyo bagomba kwitwara kugira ngo ubuzima bwabo bugende neza.

Ni ku bitaro kwa muganga, hakaba hari umuganga wambaye impuzankano iranga abaganga ndetse n'umugore waje kwaka ifishi kugira ngo abone uko ajya guhabwa imiti, avurwe akire.

Ni ku bitaro hakaba haje abantu benshi batandukanye, urabona ko harimo n'abarembye cyane bakeneye ubufasha, hakaba haje umuganga wabihuguriwe kugira ngo abasuzume amenye uko abafasha.

Ni ku kigonderabuzima cyubatse neza mu buryo bwa etage, hanze yacyo hari ubusitani hari n'abandi bantu bari kwicara bateze amatwi, umugabo uhagaze imbere uri kubaganiriza.

Ni mu bitaro kwa muganga hakaba harimo muganga uri gusuzuma uko inda y'umubyeyi imeze kugira ngo amenye aho ahera amuha ubufasha, bityo umwana azabyara azabe ameze neza.

Umuganga wambaye impuzankano y'akazi, akaba yambaye n'agapfukamunwa ndetse ndetse n'akarindantoki, afite urushinge ari kuvomeramo umuti kugira ngo abone ko ajya kuwutera umurwayi.

Ni mu bitaro kwa muganga, hari umurwayi urembye cyane muganga akaba azanye ibikoresho byabugenewe kugira ngo amusuzume amenye uko yamufasha, bityo abashe gukira.

Ni ku bitaro hari abaganga batatu ndetse n'abaturage basanzwe, bahuriye hamwe urabona ko bari mu gikorwa cyo gutanga ubutabazi ku baturage babasuzuma indwara zinyuranye.

Muganga w'inzobere akaba amaze kubaga umurwayi urabona ko afite amaraso ku karindantoki ke ndetse n'ibindi bikoresho yifashishije kugira ngo amuvure.

Kwa muganga ni hamwe mu hantu haba hari ibikoresho bitandukanye bifasha abarwayi, uyu muganga akaba kumanuka serumu kugira ngo ayishyire mu murwayi uryamye kuri iki gitanda.

Abaforomo cyangwa se abaganga bari mu cyumba cyabugenewe bakaba bari kwita ku murwayi, bambaye imyenda yabugenewe n'udupfukamunwa tubarinda kuba bakwandura indwara zitandukanye.

Ibikoresho bitandukanye mudasobwa, insinga z'amashanyarazi, ibi ukaba wabisanga kwa muganga bakoreraho ubushakashatsi bw'indwara zitandukanye bakamenya nuko bazivura.

Ni kwa muganga harimo ibikoresho bitandukanye, harimo ameza, harimo amaga, harimo imyambaro yambarwa n'abaganga, harimo intebe ndetse n'ibindi bitandukanye byifashishwa n'abaganga.

Ni ku kigo cy'amashuri ahatangirwa uburezi butandukanye abarimu bakaba bari gukina n'abana imikino itandukanye kugira ngo bibafashe kwishima.

Muri laboratwari ni ahantu hapimirwa imiti y'amoko atandukanye kugira ngo barebe imiti izavura abantu bityo igashyirwa ahantu h'ingenzi.

Ikiganza gifite akarindantoki k'ubururu, mu ganga akaba afite ibikoresho arimo arapima kugira ngo arebe neza ko iyi miti izabasha kuvura indwara kandi ifite ubudahangarwa.

Ni muri laboratwari ahapimirwa ibintu bitandukanye hashobora no gukorerwa imiti, hakaba harimo abanyeshuri bari gusuzuma banareba ko ibyo bize babifashe neza cyane.

Umuganga wambaye agapfukamunwa k'umweru ndetse n'itaburiya y'umweru, akaba ari muri laboratwari ari gusuzuma ko imiti itujuje ubuziranenge, itagira ingaruka ku bantu.

Abantu bahuriye hamwe bakaba bari gusobanurirwa ku bijyanye n'ubushakashatsi bukorerwa muri iyi laboratwari, urabona ko ari abanyeshuri kugira ngo bazabashe gushyira mu bikorwa ibyo bize.

Umuganga wambaye agapfukamunwa akaba yambaye n'itaburiya y'umweru, akaba ari gupima ibintu bitandukanye kugira ngo arebe neza ko imiti icyujuje ubuziranenge.

Ibiganza bibiri byambaye uturindantoki turiw ibara ry'umweru, arimo arasuzuma ibintu biri muri laboratwari uturindantoki tukaba turi kumurinda kuba yakwangirika intoki ze.

Umubyeyi ufite umwana mutoya w'uruhinja, akaba amubyaye vuba, yaje rero kwa muganga kugira ngo amukingize, bimurinde indwara zafatwa bitewe nuko atakingiwe.

Abana benshi bicaye ku birago bakaba bafite ibikombe bari guhoza bari kunywa igikoma akaba ari gahunda mbonezamirire yashyiriweho abana mu Midugudu kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Kwita ku mwana mu gihe cyagenwe ni ibintu byiza kuko umwana akurana budahangarwa ndetse agakura vuba, bikamurinda igwingira urabona ko uyu muma yabikoze none umwana we ameze neza.

Umuganga w'impuguke, akaba ari n'umubyaza, arimo aganiriza umugore uri aha kugira ngo amugire inama y'uburyo agomba kuzabyaramo neza nuko agomba kwiyitaho.

Gahunda yo guha abana amata yarakomeje, uyu mugabo nawe arimo araha abana amata akoresheje inkongoro, urabona ko ari igikorwa cyiza cyane.

Ababyaza ni bamwe mu baganga b'inzobere cyane kuko bakora akazi gakomeye, iyo umubyeyi atwite bamwitaho kugeza igihe abyariye ndetse bagakomeza no kwita ku mwana yabyaye.

Guteka indyo yuzuye ni kimwe mu bishishikarizwa ababyeyi kuko iyo utetse indyo yuzuye umwana akayirya bituma akura neza ndetse n'ubwonko bwe bukabasha gukora neza.

Ababyeyi batandukanye baje bagana ku kigo nderabuzima kugira ngo bahabwe serivisi yo gukingira abana babo, bibarinde kuba bakatakwa n'indwara zitandukanye.

Umumama uhetse umwana akaba afashe n'undi mu ntoki afite n'igikapu mu biganza bye, akaba ari kwerekera ku kigonderabuzima, aho agiye gushaka serivisi z'ubuzima.

Abanyeshuri batonze umurongo bakaba bari mu mbuga ngari y'ikigo cyabo umwarimu ari kubatoza uburyo bakoma amashyi ndetse bakaririmba n'uturirimbo dutandukanye.

Ni kwa muganga, ahaje ababyeyi gukingiza abana babo kugira ngo batazatatwa n'indwara zitandukanye, zishobora guterwa n'uko batigeze bafata inkingo uko bikwiriye.

Abantu bambaye imipira iri mu ibara rya oranje bafte n'ibipurizo ndetse n'imitaka irimo n'ibara ry'umweru ni abakozi b'umushinga wita ku buzima.

Abantu batandukanye, abagabo ndetse n'abagore bahuriye mu cyumba cyo ku murenge bakaba bari kuganirizwa n'umunyamabanga nshingwabikorwa kugira ngo barebe ibyabateza imbere.

Icyapa kimanitse ahantu, kikaba cyanditseho amagambo agira ati "baho neza twite ku buzima bwo mu mutwe, ubuzima bwo mu mutwe ni bwiza ni uburenganzira bwa buri wese".

Abaturage benshi bicaye ku ntebe abandi bicaye munsi y'ibiti, urabona ko bahurijwe hamwe n'igikorwa cy'umutekano kugira ngo babiganireho bamenye uko bakirindira umutekano wabo.

Abantu batandukanye harimo abagore, harimo abagabo, bakaba bahurijwe hamwe kugira ngo baganirizwe ku buryo babungabungamo ubuzima bwabo bukagenda neza.

Abantu bicaye ahantu munsi y'ihema bakaba bambaye umwenda wo mu ibara ry'umutuku bakaba bakorera ikigo gishinzwe kwita ku buzima bw'ikiremwamuntu mu Gihugu cy'u Rwanda.

Inyubako yubatse neza mu bwoko bwa gitwe, ikaba ikorerwamo na farumasi icuruza imiti ku bantu batandukanye, aha ngaha wahagana ugahabwa serivise z'ubuzima.

Ni muri farumasi isa neza cyane rwose ifite utu etajeri twiza twi'ibirahure, hakaba harimo imiti nayo ipfunditse neza mu dushashi ndetse no mu ducupa no mu dukarito.

Muri farumasi iyo ugannyeyo usangayo amoko y'imiti atandukanye bityo ugahabwa umuti ujyanye n'indwara urwaye ukawunywa ugakira neza kandi vuba.

Ni muri farumasi hakaba hari imiti iri mu dukarito ndetse no mu ducupa, ikaba ipanze neza mu tu etajeri, iyi miti ikaba ivura indwara zigiye zitandukanye.

Inyubako ya farumasi icururizwamo imiti y'amoko atandukanye iyo miti ikaba ivura indwara zibasira ikiremwamuntu, ni byiza ko ufite ikibazo wahagana ugahabwa ubufasha.

Ni muri farumasi ahakorerwa hakanacururizwa imiti itandukanye yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye abaje bahagana benshi barakira neza.

Mu mafarumasi atandukanye, usangamo imiti y'amoko atandukanye; hari iba iri mu dukarito, hari niba iri mu ducupa, byose bikaba bivura indwara zitandukanye.

Farumasi ni inzu wasangamo imiti y'amoko atandukanye, uramutse urwaye cyangwa ukeneye ubujyanama ku buzima wagana muri muri iyo nzu bakagufasha.

Farumasi iyo ugezeyo usangamo amoko y'imiti agiye atandukanye, hari ivura umutwe, ivura indwara z'imvune n'izindi zitandukanye, ufite ikibazo ukaganayo wahabwa ubufasha.

Abajyanama b'ubuzima bari mu gikorwa cyo gutera imiti mu mazu y'abaturage kugira ngo bahashye malariya ikunze kwibasira abatari bake mu gihugu cyacu.

Ni kwa muganga kwa bararasanasana iminsi ikicuma, muganga akaba ari kwandika ibibazo by'abaturage bafite bigendanye n'ubuzima kugira ngo bahabwe ubufasha bw'imiti.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe kwita ku buzima mu gihugu cy'u Rwanda rbc abantu bakaba bafashe icyapa cyacyo, iki kigo gifitiye akamaro kanini abaturarwanda kuko bahabwa serivisi z'ubuzima ziboneye.

Abantu benshi bahurijwe hamwe bakaba bari kuganira ku bijyanye n'ubuzima ndetse banarebera hamwe uburyo babubungabunga bityo ubuzima bwabo bukagenda neza cyane.

Inteko rusange ni kimwe mu kintu cy'ingenzi kuko abaturage iyo bahuye nk'uku bibafasha kungurana ibitekerezo by'uburyo bakwiteza imbere bose hamwe.

Abantu batandukanye harimo bambaye imipira y'icyatsi kibisi ndetse n'umugabo umwe wambaye itaburiya, akaba ari guhezwa agapfunyika bisa naho ari guherezwa imiti ari umujyanama w'ubuzima.

Abantu benshi bahuriye hamwe mu gikorwa, bakaba bari kugenda mu muhanda harimo na polisi, bafashe icyapa cyanditseho kurwanya ibiyobyabwenge mu rubyiruko.

Umuganga wambaye itaburiya iri mu ibara ry'umweru yambaye n'uturindantoki tw'umweru, akaba afashe igikoresho cyabugenewe agishyira ku kaboko kugira ngo apime uko uyu muntu ameze.

Imbaga y'abantu benshi bahuriye ahantu hamwe bakaba bafite icyapa cyanditseho ngo turwanye ibiyobyabwenge ku rubyiruko bakaba bashishikajwe no kurwanya iki cyago.

Ni ku kigo cy'amashuri hateraniye abana harimo abambaye inifomo ziri mu ibara ry'umuhondo n'ubururu ndetse n'abambaye amashati y'ubururu hasi umukara urabona ko bahurijwe hamwe n'abarezi babo.

Amababi y'ininturusi, aya mababi akaba akorwamo imiti gakondo cyane cyane ivura inkorora, ubu bwoko bw'aya mababi, akaba yitwa makarata wayasanga mu mashyamba atandukanye.

Amoko y'ibimera yafashwe ashyirwa ahantu hamwe kugira ngo bivangwavangwe maze bikorwemo imiti itandukanye izavura indwara nyinshi zitandukanye.

Amoko y'ibimera yahurijwe ahantu hamwe mu dusorori urabona ko agiye kuvangwa bityo agakorwamo imiti ya gakondo ivura indwara zigiye zitandukanye.

Ukuguru k'umuntu kurwaye imitsi, akaba agirwa inama na muganga yo kugana kigo nderabuzima kugira ngo avurwe vuba kandi abashe gukira neza.

Abantu batandukanye harimo abaforomo, harimo abasirikare, harimo abaturage basanzwe, bakaba bari iruhande rw'ibitaro bya Gatunda mu Karere ka Nyagatare.

Amoko y'ibimera bitandukanye, harimo imizi, harimo ibibabi byose byahurijwe hamwe kugira bikorwemo imiti ya Kinyarwanda ivura indwara zitandukanye.

Amoko y'ibimera atandukanye harimo imizi y'ibiti, harimo imbuto, ibi byose bikavangirwa muri aka gasekuru bityo bigakorwamo imiti ya Kinyarwanda ivura indwara zitandukanye.

Ikimera bita umuravumba iki kimera kikaba gifasha benshi mu kumenya ndetse no kwivura indwara zigiye zitandukanye, ni byiza ko twagitera kugira ngo igihe turwaye tukivurishe.

Abaganga ni bamwe mu bantu bakomeye kandi bafite akamaro ku kiremwamuntu kuko iyo umuntu arwaye bamwitaho bakamuvura, aba nabo bari gupima uyu murwayi ngo bamenye uko bamufasha.

Ikigo nderabuzima kigizwe n'ubusitani bwiza cyane, kikaba gisize ibara ry'ubururu bwijimye, hirya yaho hakaba ari ishyamba ritanga amahumbezi.

Ikigo nderabuzima kiri mu ibara ry'ubururu cyanditseho amagambo avuga ngo gira ubuzima, akaba ari ikigo nderabuzima aho abantu bajya bagahabwa ubufasha bujyanye n'ubuzima bwabo.

Ni ku kigo nderabuzima hateraniye abana batoya bakaba bagiye gufata ibinini bizabafasha mu kubarinda indwara cyane cyane inzoka zo mu nda, ikigo nderabuzima kikaba cyubatse ahantu heza.

Ubuvuzi bwagiye bwegerezwa abaturagewe mu bihande byose, urabona ko hano babegereye kugira ngo babapime imivuduko y'amaraso, bityo uwo bawusangana bamuhe ubufasha hakiri kare.

Abantu batandukanye harimo ababyeyi babiri bateruye abana bakaba baje kubakingiza ndetse n'undi mugabo ufashe ubwisungane mu kwivuza mu ntoki na we ategereje guhabwa ubufasha.

Umubyeyi uri mu cyumba kwa muganga akaba ari gupakira imyenda ye nyuma y'uko asezerewe akaba yishimiye ko atashye nyuma yo guhabwa serivisi nziza n'abaganga agakira.

Umumama wambaye imyenda idoze mu gitenge, yiteye n'umwitero afite isakoshi mu ntoki. Akaba avuye kukigonderabuzima akaba ahawe serivisi nziza abona ko atashye yishimye.

Abantu batandukanye harimo abagore, harimo abagabo, imbere yabo bakaba hari ibikarito birimo imiti bakaba baje gushaka serivise z'ubuzima kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Ni ku kigonderabuzima cyitwa Girubuzima, ahahurira abaturage benshi bafite ibibazo by'ubuzima kugira ngo bahabwe ubufasha, bavurwe, bakire, batahe bameze neza.

Abantu benshi bahagaze bitegereza igishushanyo mbonera cy'ibitaro bigiye kubakwa muri aka gace, urabona ko bishimiye iki gikorwa kandi cyane rwose.

Umukobwa usutse imisatsi ufite amaherena wambaye itabuririya y'umweru akaba yicaye ku ntebe akaba arimo gukoresha mudasobwa, iruhande rwe hari ibipapuro ndetse n'ikaramu ku meza.

Ikigo nderabuzima kiri mu ibara ry'ubururu ndetse hari'akandagira ukarabiye hanze abahagana bakarabiraho kugira ngo birinde umwanda ushobora guterwa n'ibyo bagiye banyuraraho mu muhanda.

Ababyeyi bagiye kwa muganga kugira ngo basobanurirwe uko bagomba guhabwa serivisi zijyanye no gufata imiti, ndetse no kwivuza bagendeye ku murongo kugira ngo birinde akavuyo.

Umuganga wambaye umwenda w'akazi, yambaye n'amataratara, akaba ari kubaza umubyeyi uburwayi afite kugira ngo amenye imiti yamwandikira bityo amuvure akire vuba.

Umubyeyi w'umumama ufite ishakoshi mu ntoki, yitera umwitero mu ijosi, akaba ari kuva ku kigo nderabuzima, aho yari yagiye gushaka uko yabona imiti yo kumuvura.